Inzu nziza ya etaje bacururizamo. Harimo aho bacururiza farumasi n'imodoka nziza imbere y'iyo nzu.

Umugore wambaye agapfukamunwa, uri kwandika muri rojisitire, uri muri farumasi y'imiti.

Ururabo rwiza rw'umweru ruri ahantu mu gashyamba, hirya hateyeho ibisheke bitari byakura neza.

Utwatsi twinshi turanda hasi, n'amababi y'ibiti yumye yaguye muri ibyo byatsi.

Ndi kubona igiti cy'umusave batemye, bagaragaza amababi yacyo arambitse hasi ku butaka, akiri mabisi atari yuma.

Amababi y'igiti batera mu mirima y'imirwanyasuri, ku mikatikati niho bajya bayitera, iri mu irwanyasuri ku murima mo hagati no ku ruhande.